Ababana n'ubumuga bagendera mu tugare na bo bari mu bantu bitabwaho ku bitaro. Abaganga baba basabwa kubitaho neza kandi bakabafata nk'abandi bantu basanzwe. Serivise bahabwa zigomba kuba zinoze kandi zibanogeye, zinabashimishije.

Abakorerabushake mu byo gutanga amaraso barakangurira abantu bose gutanga amaraso, inama yavuze yuko byibuze umuntu ufite ibiro mirongo itanu kuzamura yemerewe gutanga amaraso.

Abaganga bo ku bitaro batanga ubuvuzi bwihutirwa cyangwa se mu ndimi z'amahanga bita Imagensi, bari guhabwa amahugurwa n'umuyobozi wabo ubahagarariye.

Abaturage ba kera bakoreshaga ingobyi nk'igikoresho cyatwaraga abarwayi mu buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze. Iki gikoresho hari hamwe na hamwe kigisangwa mu Rwanda, hari aho usanga umubyeyi ugiye kubyara cyangwa undi muntu uhuye n'impanuka, bayimutwaramo.

Mu bitaro by'inkomere abaganga babasaba gukora iyo bwabaga kugira ngo bite ku barwayi, abarwayi nabo baba basabwa kwitonda kugira ngo bahabwe serivisi nziza n'abaganga.

Abaganga bashinzwe kwita ku nkomere ndetse n'indembe baba basaba kwitondera abarwayi, bakabitaho bakabaha serivisi nziza mu rwego rwo kwirinda impfu za hato na hato zibera kwa muganga.

Itsinda ry'abakozi ba Croix rouge cyangwa se abashinzwe gutanga amaraso, barakangurira abaturage ko bagomba gutanga amaraso aho bari, iruhande rw'inzu iri gukorerwamo icyo gikorwa cyo gutanga amaraso, higanjemo abahungu ariko ndetse n'abakobwa baragaragara ko barimo.

Abayobozi batandukanye abo mu nzego z'ubuzima, abo mu nzego z'umutekano, abaturage ndetse n'abayobozi b'Imirenge n'Uturere ni bamwe mu bitabiriye inama yo guhugura abaturage mu mibereho myiza ndetse no kurinda ubuzima bwabo.

Ibitaro bya Nyagatare ni bimwe mu bitaro bibarizwa mu Rwanda, ibi bitaro bitanga serivise nziza harimo kwita ku barwayi, abatwite, abafite ubumuga ndetse bugatanga na serivise nziza.

Imbangukiragutabara cyangwa se abakorerabushake b'ubuzima, ni bamwe mu bafasha ku bitaro gutwara abarwayi ku magare, cyangwa se kuri burankare mu mazina y'amahanga.

Imbangukiragutabara mu by'ubuzima kuruwaruje mu ndimi z'amahanga ni bamwe mu bakora ibikorwa by'urukundo. Urubyiruko rwiteranyiriza hamwe rugafasha abatishoboye ndetse n'abandi bahuye n'ibiza bakabubakira ndetse bakabakorera n'indi mirimo itandukanye.

Akadege katagira abapilote, gatanga amaraso ku bitaro bigiye bitandukanye, kazanye amaraso, karayasiga, ubundi karongera karaguruka, kisubirira aho kavuye.

Hamwe mu hatangirwa ubuvuzi bwihutirwa cyangwa mu ndimi z'amahanga imagensi, haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bishobora gufasha umurwayi uwo ari we wese.

Abakorerabushake mu by'ubuzima barimo baratanga umuganda babumba amatafari, barateganya kuzubakira abatishoboye bahuye n'ikibazo cy'ibiza, byabasenyeye inzu zabo babagamo.

Abakora kwa muganga mu rwego rw'ubutabazi cyangwa se mubavura inkomere, baba bagomba kwambara imyenda ibarinda kwandura indwara zitandukanye kuko inkomere ziba zishobora kubanduza.

Umugabo wambaye ishati, afite akaboko k'ibumoso kavunitse, hariho igisima cyangwa se arakoteye ndetse kuri ako kaboko yambayeho ikindi kintu yambariye mu ijosi, gituma ako kaboko kadahungabana.

Abarwayi ku kigo nderabuzima bategereje serivise zo kwa muganga aho umuganga umwe mu bakora aho ngaho ari kugenda abaganiriza ababaza buri wese icyo yaje kwivuza niba bose bafite ubwishingizi mu kwivuza.

Iri ni itsinda ry'abayobozi b'amatora. Bazamuye akaboko barahirira ko imirimo bahawe bazayikora neza. Ari nabo ubahagarariye ari gusoma, amategeko bagomba kuzakurikiza.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo impakasi ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa babaga abarwayi biba bisabwa kugirirwa isuku. Abaganga barasaba kwitondera ndetse no gukoresha neza ibi bikoresho mu gihe bari kubaga abarwayi.

Kwa muganga ni hamwe mu higanje abakozi b'abagore nkuko mu Rwanda biyemeje ko ku kigero cya mirongo irindwi ku ijana mu bakozi ba Leta bazaba ari igitsina gore.

Abaganga bakora mu bitaro cyane cyane abakora mu byumba by'ibizamini, baba basabwa kwambara neza kugira ngo batandurire indwara muri ibyo bitaro. Barashishikarizwa kandi kujya bambara za ga kugira ngo birinde indwara bakanduzwa n'abarwayi.

Mu bitaro, mu cyumba cy'abarwayi, haba hagomba kubamo ibitanda bihagije. Buri murwayi wese aba asabwa kwita ku bitanda asanzemo, yirinda kubyangiza, kuko bigirira akamaro we ndetse n'abandi bazahaza nyuma ye.

Abaganga bakora mu bitaro, baba basaba kugirana inama ndetse no gufashanya mu gihe bagiye kuvura umurwayi, bagomba gukoresha ibikoresho bifite isuku mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara zandura.

Mu bitaro kwa muganga, bagomba gutanga serivisi nziza. Abakora serivisi zo kuvura abarwayi, bagomba kwita ku barwayi, ndetse bakanabaha imiti kugira ngo bakire indwara baba baje kwivuza.

Umupolisi arimo aratanga ubuvuzi ku muturage, aho arimo aramufata ibizamini, ndetse akanamuha n'imiti ishobora kumufasha mu kumworohereza uburwayi bwe, akamuha n'indi miti azajya yifashisha kugira ngo indwara ye izakire burundu.

Abaganga batatu harimo abagore babiri n'umuganga umwe w'umugabo, bari mucyumba hamwe, icyumba kirwariramo abarwayi, igitanda kiryamishwaho umurwayi kiri imbere yabo barimo barifotoza.

Uhagarariye ibitaro ari kuganiriza abandi bakozi, uburyo bagomba kwita ku barwayi ndetse bakano neza akazi kabo, abayoborwa nabo rero bateze amatwi barikumva inama bahabwa n'umuyobozi wabo kandi biteguye gusubira mu kazi, bakagakora neza kurusha uko bagakoraga.

Mu bitaro kwa muganga buri gitanda cyose kigomba kuba kiriho inzitiramubu kandi gifite isuku. Ibi bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda ndetse na Malariya iterwa n'umubu.

Ibitaro bya Kigeme ni bimwe mu bitaro bitanga serivisi nziza kandi cyane, dore ko byakira abantu bose, ababana n'ubumuga, ababyeyi batwite ndetse n'abana.

Inzu mberabyombi cyangwa se inzu iberamo inama, hagaragara abayobozi harimo na Polisi y'u Rwanda bamaze gukora inama, barafata ifoto kugira ngo ibe urwibutso.

Buri butaro bigira icyumba kiganirizwamo abarwayi. Umuganga wese asabwe kwita ku murwayi, akamwitaho uko bikwiye ndetse amuha serivisi nziza irimo n'urukundo.

Ingabo z'u rwanda ziri kwita ku basheshe akanguhe, harimo abakecuru, abasaza, hari amazi, hari amakayi bandikamo indwara aba bakecuru n'abasaza barwaye, ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu kuvura aba bantu.

Abayobozi b'akanama k'amatora, bari kubasomera amategeko n'amabwiriza, agenga abatoresha, banayakurikira, ari nako banarahira, kuzakora neza umurimo wabo.

Mu bitaro hagomba gutangirwa serivisi nziza kandi zinoze, abaganga bakora muri serivisi zo gukura amenyo cyangwa se uburwayi bwo mu kanwa, baba basabwa kwita ku barwayi ndetse no kubasigasira.

Buri mubyeyi wese asabwe kujyana umwana kwa muganga agasuzumwa ndetse agahabwa n'inkingo kandi ku gihe, abaganga nabo basabwe kwita ku bana ndetse n'ubuzima bwabo n'ubw'ababyeyi.

Mu bitaro abaganga baba bagomba kwitwararika kuko nabo bashobora kurwara. Iyo umurwayi abonetse, baba bagomba kumwitaho nkuko nabo bazitabwaho mu gihe baba barwaye.

Ababyeyi ni bamwe mu bari mu isuzumiro rya muganga, iki cyumba gitangirwamo serivisi yo gusuzuma abarwayi bagatanga ibizami, ubundi bakaza kubona ibisubizo bibereka indwara barwaye.

Kwikingiza zimwe mu ndwara ni byiza cyane. Abaganga ndetse n'abaturage baba basabwa kwitabira urukingo urwo ari rwo rwose kugira ngo hirindwe indwara runaka.

Abakozi bo ku bitaro baba bagomba kwandika amakuru yose bahawe n'umurwayi, kugira ngo babone uko bakora ibizami. Abaganga basabwa kwandika neza kandi amakuru y'umurwayi bakayabika bakayagira n'ibanga.

Zimwe muri serivisi zitangirwa ku kigo nderabuzima harimo kwita ku barwayi, ababyeyi batwite, abagabo ndetse n'abandi batandukanye mu rwego rwo kurinda no kubungabunga ubuzima bwabo.

Abarwarira mu bitaro kwa muganga baba basabwa kurara mu nzitiramubu, mu rwego rwo kwirinda imibu ibarya, ikaba yabatera Malariya. Abakora muri ibi bitaro kandi na bo basabwa kwita ku barwayi, bakagirira isuku nyinshi aho abarwayi barwarira.

Kwa muganga aho basuzumira abarwayi, abarwayi baba bagomba kujya ku murongo hakagenda hinjira umwe umwe agafashwa hanyuma hagakurikiraho undi gutyo gutyo.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, n'umunani, ukora muri laboratwari, avuga yuko aka agakunda cyane ko nta kindi ashobora kugasimbuza.

Abaganga abo ku bitaro bakora mu byumba by'ibizamini, baba basabwa kwitonda kugira ngo amakuru batanga ataba atandukanye n'ay'ibyuma by'ikoranabuhanga byagaragaje.

Mu cyumba cy'ibizamini kwa muganga cyangwa ahazwi nka laburatwari, abaganga baba bagomba kuhagirira isuku ndetse bakirinda ko hakinjiramo imyanda, ishobora guhumanya cyangwa kwangiza bimwe mu bikoresho.

Muri laboratwari cyangwa se mu byumba by'ibizamini ni hamwe mu hasangwa ibikoresho bigiye bitandukanye. Uducupa bafatiramo ibizami, inshinge z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi bikoresho.

Laboratwari mu ndimi z'amahanga cyangwa icyumba bafatiramo ibizami, hagomba kuba hari isuku nyinshi kandi hanateguwe neza. Ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga ni kimwe mu bindi bigomba kuba biri ahongaho.

Abakozi bakora mu malaboratware cyangwa ibyumba by'ibizami, basabwa kubanza kwihugura kugira ngo bakore akazi kabo neza, bamwe mu bakora aka kazi barakishimiye kandi batanga serivisi nziza.

Mu malaboratwari atandukanye dusangamo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gupima indwara. Dusangamo ibikoresho byifashishwa, mu gupima indwara nka Mayikorosikopi, ibipima ko abagore batwite, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Laboratwari ahaberamo isuzuma ry'ibintu runaka, hahagazemo umukobwa arimo aritegereza uko agiye gukora ubushakashatsi bwe, aho dusanga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bizamufasha gukora ubushakashatsi bwe.

Umuganga w'umugabo ukora muri laboratwari arimo ararebera muri mayikorosikopi cyangwa se indebakure, kugira ngo amenye ibyo arimo arapima niba ari byo.

Ahafatirwa ibizami kwa muganga hagomba kugirirwa isuku kandi hakaba hari ibikoresho byabugenewe bigezweho, abahakorera basabwa kubyitaho no kubibungabunga kugira ngo bitangirika.

Abaganga b'inzobere bakora muri za laboratwari cyangwa se mu byumba by'ibizamini, baba bagomba kwitonda bakareba ko iby'imashini zatanze ari na byo bari bubwire abarwayi.

Laburatware ni icyumba kiba kiri ku bitaro ahafatirwa ibizami by'abarwayi. Umuganga ukoramo agomba kwambara imyenda yabugenewe kugira ngo yirinde ikwirakwizwa ry'indwara.

Impamvu ikomeye umugore aba asabwa kubyarira kwa muganga, ni uko ubuzima bwe igihe abyariye kwa muganga bwitabwaho ndetse n'ubw'umwana bugakurikiranwa, bityo ntihagire ugira ikibazo hagati ye ndetse n'umwana.

Abarezi bo mu mashuri y'inshuke baba bagomba kwita ku bana bakabigisha uko bafata ikaramu, kwandika ndetse bakabigisha n'uko basoma ibyo banditse nk'uko guverinoma ibigena.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'ababyeyi ni bamwe mu bakurikirana ubuzima bw'umwana, igihe runaka bafata abana bakabapima uburebure ndetse n'ibiro ngo barebe ko bari gukura neza.

Abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima bakangurira ababyeyi kwita ku buzima bw'abana babo ndetse na bo ubwabo, babigisha ko umubyeyi mbere yo kugaburira umwana no kumwonsa aba agomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Ababyeyi ni bamwe mu bita ku bana biga mu mashuri y'inshuke . Barabagaburira, bakabigisha ndetse bakabaha n'andi masomo atandukanye abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaganga basuye abaturage, babaha inkingo. Abaturage bishimira kuba begerewe bagahabwa inkingo bibereye iwabo mu rugo, ibingibi bibereka ko ubuzima bwabo bwitaweho.

Urugo mbonezamikurire ni gahunda yashyizweho na leta igamije kurandura bwaki mu bana, iyi gahunda rero yashyizweho kugira ige ifasha abana kubona indyo yuzuye ndetse no kwigisha ababyeyi uburyo bategura indyo yuzuye, aha ngaha niho abana bakura indyo yuzuye n'inyigisho ku babyeyi babo.

Mu mashuri y'inshuke abayobozi ndetse n'abarezi barera aba bana, baba basabwa kubitaho babigisha kwandika kuvuga neza ndetse no gusoma.

Ababyeyi mu rugo ndetse no mu bigo by'amashuri y'inshuke baba agomba kugaburira abana indyo yuzuye irimo imboga n'ibindi bifite vitamini, ibi ngibi bifasha umwana kwiyumva mu mubyeyi ndetse akagira imikurire myiza.

Abajyanama b'ubuzima bari mu ibarura bareba abana bakingiwe n'abatarakingiwe, iyi gahunda leta yashyizeho kugira ngo imenye uko yita ku buzima bw'abana ndetse na bamama wabo.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke ari kwitabwaho n'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu ari kumuha amata akayanywa yicaye abona ko amwitayeho nta kibazo kibayemo.

Aho ababyeyi babyarira mu bitaro haba hagomba kwitabwaho hakagira isuku nyinshi cyane, ibitanda bigakosorwa bakarara mu nzitiramubu mu buryo bwo kwirinda marariya ndetse no kurinda ubuzima bw'abana babo.

Abana biga mu bigo by'inshuke nabo bashyiriweho serivisi yo kugaburirwa ku ishuri. Bibafasha kwiga neza kandi bagakurikira bagafata vuba bakanatsinda.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RIB ndetse na polisi y'u Rwanda ni bamwe mu bari guhugura ababyeyi ndetse banita ku buzima bw'umwana, abana baravurwa indwara zitandukanye, harimo n'indwara zo mu kanwa.

Umuyobozi waturutse mu kigo cy'ubuzima cya RBC mu magambo arambuye mu rurimi rw'icyongereza rwanda bio medical center, arimo arageza ijambo ku bana batoya b'abanyeshuri, abasobanurira uburyo bakwitwara, n'uburyo bakirinda indwara harimo na malariya.

Minisiteri y'Ubuzima ikangurira ababyeyi kurara mu nzitiramubu ndetse bakita no ku buzima bw'abana babo bacunga neza ko mbere yo kuryama bamanuye inzitiramubu kandi ikoranye umuti, ibi ngibi bifasha kwirinda malariya.

Ibitaro bishinzwe kwita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ni bimwe mu bitaro by'ingirakamaro abarwayi bitabwaho ndetse bagakoreshwa ibizamini n'abaganga babugenewe ngo basuzume niba bamaze koroherwa.

Buri bitaro biba bigomba kugira aho bakirira abahohotewe. Ibi bifasha abahohotewe baba abana, abagore cyangwa se abagabo kubona serivisi zihuse kandi nziza.

Aho bafashiriza abarwayi bahohotewe, aho usanga buri bitaro byose biba bifite aho bita muri Isange one stop center, ahangaha bafasha abantu bahohotewe, harimo abana, abagabo ndetse n'abagore.

Abayobozi b'ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro byo mu Karere ka Nyagatare, Intara y'burasirazuba, bongeye kwibutswa icyerekezo Intara y'iburasirazuba yihaye ndetse n'inshingano zabo, mu gusigasira ubuzima bw'abarwayi.

Abakozi ba minisiteri y'ubuzima basuye abaturage babaganiriza ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, banabasobanurira uko iyo ndwara yandura n'ibimenyetso by'ufite ubwo burwayi.

Abagize itsinda ry'ubuvuzi harimo umugore wambaye amarinete, wambaye baji ndetse n'isaha ku kuboko ari kumwe n'abandi bagabo harimo umugabo muremure wambaye amarinete na we n'ishati y'ubururu bari hamwe bose bari kugira ibyo bigaho.

Urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Ni bamwe mu bitabiriye amahugurwa yavugaga ku bijyanye n'ubuzima ndetse biga uko bakitwara mu buryo bwo kurinda ubuzima bwabo.

Abayobozi bari gusobanurira umumaro wa RIB ndetse bakanabasobanurira icyo Isange one stop center imaze bababwira ko ari ikigo gishinzwe kwita ku bahohotewe ndetse n'abandi b'inkomere.

Abanyeshuri biga mu bigo byisumbuye ndetse n'ibigo by'amashuri abanza barakangurirwa kugira isuku kugira ngo barinde ubuzima bwabo, aha bababwira gukaraba amazi meza n'isabune igihe bagiye kurya n'igihe basoje.

Ku kigonderabuzima mu rwego rwo kwirinda kwanduzanya indwara zandura, abarwayi barwaye indwara zandura, baba bagomba kwicara batandukanye, bategeranye, byibuze buri umwe asigamo metero hagati ye n'undi.

Ku kigo nderabuzima ndetse no ku bitaro hatangirwa inama zigiye zitandukanye, hari inama zo guhugura abakozi basanzwe bakora kuri iki kigo nderabuzima, inama zo guhugura abarwayi bivuriza ku kigo nderabuzima ndetse n'inama zigenerwa ababyeyi bonsa.

Inzego z'umutekano zitandukanye mu gihugu, ziri muri bamwe mu bahugurirwa kwita ku barwayi ndetse no gutanga serivisi zitandukanye zirimo kubavura, kubitaho, n'ibindi.

Imiti y'amatungo igomba kubikwa neza mu buryo bwo kuyibungabunga kugira ngo izagire umumaro nkuko ari byo yagenewe, abakora mu maduka ndetse banacuruza iyi miti basabwe kuyitaho neza.

Amaduka acuruza imiti itandukanye y'abantu ni amwe muyafitiye akamaro abaturage na sosiyete muri rusange. Abatabashije kugera kwa muganga byihuse bahabwa ubutabazi bw'ibanze muri aya maduka.

Zimwe muri serivisi dusanga mu mafarumasi, harimo nko gutanga ibizamini, gusuzuma abagore batwite ndetse n'abandi barwayi batandukanye.

Abacuruza imiti y'abantu ivura indwara zitandukanye burya na bo ngo bari mu bafata agatubutse, ibi bihamywa na bamwe mu bakozi bakora ubucuruzi bw'imiti y'abantu.

Imiti isangwa mu mafarumasi, iba igomba kwitabwaho kandi mbere yo gukoreshwa, uyikoresha akabanza akareba niba iyo miti itararangije igihe cyo kuba yakoreshwa.

Amwe mu maduka acuruza imiti, abaturage bemeza ko afite uruhare runini mu buzima bwabo. Hari abavuga ko kubera ko ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro ari kure, amafarumasi abaha serivisi, ihuye n'iyo kwa muganga.

Amafarumasi menshi aba agomba gutanga serivisi zitandukanye, kwita ku barwayi ndetse no kubaha serivisi nziza cyane, ababagana kugira ngo bazagaruke ni ibyo bagomba gukora.

Farumasi ni kimwe mu byunganira ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima, kuko zifasha abarwayi mu buvuzi bugiye butandukanye. Farumasi Siliveri ni imwe mu zitanga serivisi zitandukanye.

Indwara y'ibihaha ni imwe mu ndwara ishobora gufata amatungo nk'ingurube, ihene, intama, ndetse n'inka ariko iyi ndwara ikaba yarabonewe umuti, aho buri muveterineri wese cyangwa se umuganga w'amatungo ashobora kukubonera uyu muti.

Amwe mu maduka acuruza imiti y'amatungo agomba no kugiramo ibiryo bitandukanye kandi akaba atanga serivisi zitandukanye nko kuvura amatungo, kuyakingira ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amaduka acuruza imiti ivura abantu, azwi ku izina rya farumasi, ni amwe muyafitiye abaturage akamaro. Aya maduka abayakoramo bishimira serivisi batanga kandi ko banezezwa no kubona ubuzima bw'abantu babutabaye.

Abakora ubucuruzi bw'imiti itandukanye bavuga yuko bishimira uyu mwuga wabo ngo banezezwa no kubona bafasha abarwayi kandi bagakira mu gihe gito cyane.

Farumasi ifatiye runini ubuzima bw'abaturage, kuko abatabashije kugera ku kigo nderabuzima cyangwa ibitaro cyangwa n'abandi bafite indwara zidakomeye, banyarukira muri farumasi zikabaha ubufasha nk'ubwo bakura kwa muganga.

Imwe mu miti dusanga mu mafarumasi, iba ifite amabara atandukanye. Hari iba iri mu mabara y'icyatsi, iri mu mabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo ndetse n'imiti iri mu ibara ry'umweru. Si iyo gusa kuko hari n'indi miti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Abayobozi ndetse n'abaturage, bishimira intambwe bamaze gutera ubukangurambaga bwo gutanga amaraso, abaturage bamaze kumva ibyiza byo gutanga amaraso.

Umuyobozi waturutse muri minisiteri y'ubuzima, afitanye inama n'abaturage arabasobanurira iby'ubuzima, n'uko wabahoho neza uwirinda malariya, izindi ndwara zitandukanye abaturage nabo bariturije baricaye bari gutega amatwi amabwiriza, ndetse n'inama bagirwa n'uyu mukozi wa Minisiteri y'Ubuzima.

Minisiteri y'ubuzima irateganya ikiganiro cyigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko ,ndetse no mu miryango uruhare rw'urubyiruko, ababyeyi, abarezi abayobozi bamadini n'ibindi byiciro bitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'urubyiruko bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ibi bigafasha urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge no kwishora mu ngeso mbi harimo ubusambanyi ndetse n'ubwicanyi.

Amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, ni ikiganiro cyatanzwe n'imwe mu mpuguke y'ubuzima yoherejwe n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima, arasobanurira abaturage uburyo bashobora kubaho neza kandi.

Abaganga baturutse ku bigo nderabuzima bitandukanye hamwe na Polisi y'Igihugu bari muri bamwe mu bari gupima imikurire y'abana, iyi serivisi abaturage yabasanze aho batuye.

Ihuriro cyangwa se amahugurwa y'ubuzima ari gutangwa, abayobozi bamwe baricaye abandi bari gutanga amabwiriza cyangwa se amahugurwa ndetse n'abashinzwe ikoranabuhanga bari gutunganya ibyuma kugira ngo amajwi agere ku bari aho.

Abaganga ku bitaro barapima umugabo, umuvuduko w'amaraso, bareba ko amaraso ye atera ndetse n'uburyo umubiri ukora, mu bijyanye no gutembereza amaraso, aha ngaha bifashishije igikoresho gipima amaraso.

Gukoresha agakingirizo kandi neza ni bimwe mu byo dusabwa na Minisiteri y'Ubuzima, ibi biturinda indwara zikwirakwizwa ziciye mu myanya ndangabitsina aho twavugamo nka sida, imitezi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ubuvuzi rusange ni imwe mu nkingi ya mwamba ku baturage, aho usanga abaturage badafite imbaraga nk'abasaza, abakecuru, abafite ubumuga bugiye butandukanye, abavuzi cyangwa se abaganga babasanga aho batuye bakabitaho.

Urubyiruko rw'abakorerabushake ni bamwe mu bakangurira abantu gutangara amaraso, uyatanze abatanze ubuzima, ari nacyo Minisiteri y'Ubuzima ikangurira buri wese gutanga ubufasha ku barwayi.

Ibikoresho bitunganywa bigakurwamo imiti ya kinyarwanda, harimo amacunga ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye, hari amasahane ndetse n'utuntu batunganyirizamo iyo miti.

Abantu ba kera bavuga y'uko umubirizi wavuraga indwara nyinshi, harimo inkorora, inzoka, ndetse n'izindi ndwara. Kugeza na n'ubu, uyu muti uracyakoreshwa hamwe na hamwe.

Imiti gakondo n'ubwo itagikoreshwa cyane cyane ariko muri iyi minsi hari abakiyikoresha. Ibyo bifashishaga mu gukora imiti gakondo, harimo amababi y'ibiti, imizi y'ibiti ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abarwayi babiri bakikije umukobwa, barimo umwe ari kwisekera undi yitaye kuri muganga ibintu ari kumukorera ndetse bigaragara ko aba barwayi bafite icyizere cyo kubabakira kandi vuba bidatinze.

Umuravumba ni umwe mu miti yakoreshwaga kera mu kuvura abana ndetse n'abantu bakuru indwara zitandukanye, harimo inkorora, inzoka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Bimwe mu biti dusanga mu mashyamba nka pinusi ni ibiti byifashishwaga mu gukora umuti mu minsi yashize bakeneraga amababi yabyo, ibishishwa byabyo ndetse n'imizi yabyo.

Bimwe mu byatsi bya kera ndetse n'imbuto biri mu bintu byifashishwaga mu gukora imiti ya gakondo. Iyi miti yavuraga indwara nyinshi nk'inzoka, ibicurane, umutwe ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Abasaza ndetse n'abandi basheshe akanguhe ni bamwe mu bari bazi imiti gakondo ndetse n'umumaro wayo, iyi miti yifashishwaga iturutse mu byatsi ndetse n'ibindi bitandukanye mu bimera.

Imiti gakondo ni kimwe mu byifashishwaga mu kuvura indwara zitandukanye kandi iyi miti yagiraga akamaro, abacuruzaga iyi miti bavuga yuko muri ubu ngubu batakibona abakiriya kubera imiti ya kizungu yaje.

Imwe mu miti gakondo yifashishwaga hari harimo imivumavumo ndetse n'imiravumba, abantu ba kera bifashishaga iyi miti mu kuvura inkorora, inzoka ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo cyangwa se imiti ya kinyarwanda abantu ba kera bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kubavura indwara zitandukanye, harimo ibiti bya gakondo cyangwa se ibiti byumye ndetse n'ibitumye.

Abaganga bakangurira abaturage kwipimisha virusi itera SIDA kugira ngo bamenye uko bahagaze. Ibi ngibi bifasha umubyeyi ndetse n'umwana kubaho nta gakoko gatera virusi bafite.

Amaduka acuruza imiti ndetse n'ibindi bitandukanye asabwa kubika iyi miti ahantu habugenewe nko kuyibika ahantu hatagera izuba ryinshi cyangwa se ubukonje bwinshi mu rwego rwo kuyirinda gupfa.

Abasirikare, abayobozi bateranye bari mu nama ndetse n'abayobozi b'ubuzima, imbere yaho hari jardin cyangwa se ubusitani mu kwerekana ko ibikorwa remezo ari byiza, bari inyuma y'inzu y'ikigo nderabuzima cyitwa Girubuzima.

Inyubako z'ibitaro zigomba kuba zifite intebe hanze ndetse no mu nzu abarwayi bategereza bicayemo, kugira ngo batarambirwa cyangwa se hakagira uhungabana.

Zimwe muri serivisi zitangirwa kwa muganga, haba hagomba kwitabwaho umurwayi utwite, ndetse akanasuzumwa hakarebwa uko ubuzima bwe buhagaze ndetse n'ubwumwana atwite.

Kwa muganga bakangurira buri muturage wese kujya yipimisha indwara zitandura, kugira ngo amenye uko ha ahaze. Izo ndwara ni nk'umuvuduko w'amaraso, indwara z'isukari, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Abagore n'abagabo biganjemo abayobozi b'ibitaro nyuma y'akazi barajya inama yuko akazi kagomba gukorwa. Ubahagarariye ari kubaha amabwiriza ndetse abagira n'inama y'uburyo akazi kakorwa neza.

Gira ubuzima ni imwe muri serivisi zitangirwa ku bigo nderabuzima zihabwa cyane cyane abagore batwite ndetse n'abana babo igihe bavutse, iyi serivisi itangwa n'abaganga kandi bakayitanga neza.

Ubuzima bw'umwana bugomba kwitabwaho guhera avutse kugeza akuze. Ababyeyi basabwa gukingiza abana inkingo zose nkuko zabugenewe kandi abaganga na bo basabwe kwita ku bana no kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'ababyeyi babo.

Ababyeyi ndetse n'abana bivuriza mu bitaro bari muri bamwe mu bishimira serivisi bahabwa batanga serivisi nziza zirimo gukurikiranwa ku barwayi b'abana.

Mu bitaro ndetse no kwa muganga ahabikwa imiti haba hagomba kwitabwaho, hagakorerwa isuku, mu rwego rwo kwirinda ko iyo miti yapfa ikaba yazahungabanya ubuzima bw'abantu.

Mu bitaro kwa muganga, abaganga baba bagomba kujya inama z'uko bita ku barwayi ndetse bagakurikirana ubuzima bwabo kugira ngo butaza kugwa mu kangaratete, bikaba byabaviramo no gupfa abo barwayi.

Ku bitaro bari kwita ku barwayi, aho bari gutanga inkingo ku bana bakiri batoya, ababyeyi barasabwa kuzana abana kubakingiza kugira ngo bose bahabwe urukingo, ubuzima bwabo ndetse n'imikurire yabo izagende neza.

Abayobozi batandukanye b'ubuzima ndetse n'abo mu rwego rw'ingabo ni bamwe mu bahuriye ku kigo nderabuzima nyuma yo kwiga uko ubuzima bw'abaturage bugomba kugenda neza n'ingamba bafashe harimo nko gukwirakwiza inzitiramubu mu baturage.

Kwa muganga hagomba kuba hari intebe abarwayi bicaramo bategereje serivisi z'ubuvuzi. Abaganga na bo baba basabwa kwita ku barwayi vuba kandi byihuse, bakabaha serivisi nziza kandi zinoze.

Imiti y'amatungo, ni imwe mu bigomba kwitonderwa, aho umuntu agomba kwibika kandi akayitera ayo matungo, mu gipimo cyabugenewe, kuba atarenze urugero cyangwa ngo ajye munsi y'urugero.

Ku kigo nderabuzima ni hamwe mu hatangirwa inama zitandukanye. Ababyeyi bitabira inama kugira ngo bahabwe inama z'uko bagomba kwitwara n'uko bagomba gufata abana babo neza.

Mu bitaro kwa muganga haje ikoranabuhanga aho umurwayi bamushyira muri siysitemu igihe aje kwivuza ndetse azagaruka bakareba muri ya sisitemu bakongera bakamusangamo batabanje kumwandika bundi bushya.

Ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro ntabwo bigisha ababyeyi gufata neza abana no kubagaburira indyo yuzuye gusa ahubwo babaha bimwe mu bikoresho bashobora kwifashisha nk'ifu yo gutekamo igikoma ndetse n'ibindi, bakabatoza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere na nyuma yo kugaburira umwana.

Mu bitaro kwa muganga umurwayi aba agomba kwitabwaho ,ndetse abaganga barasabwa gutanga service nziza ku barwayi babagana. lbi bigafasha umurwayi gukira vuba atazahaye.

Imiti nka Kalisimu ni imwe mu miti isangwa mu mafarumasi n'amakilinike ndetse n'ibitaro, iyi miti ikoreshwa na bamwe mu bafite ibibazo by'uburwayi bw'amagufwa.